Aha ni hamwe hagaragaza neza ko u Rwanda rwakataje mu iterambere cyane cyane mu bijyanye n'ubuvuzi aho ku kibazo cyo kwivuza kitariki ikibazo gikomeye.

Bimwe bishimishije mu muryango harimo kwita ku muryango, uhereye ku batotoya wikomeza ikowusoze ukageza no ku bakuru uko bagana kose nibwo buryo bwiza bwo gufata neza umuryango, ugasaza umeze neza.